Ishusho itwereka umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro, aho uwo mugabo afite igikapu ku rutugu, aho iri kutwereka uburyo ushobora gufata ubwishingizi bwa Sonnarwa bukakubera impamba y'urugendo.

Ishusho itwereka umugore wambaye ingofero y'umuhondo aho uwo yambaye amarinete ndetse yambaye umupira w'umukara n'akajire gafite ibara ry'icyatsi kibisi aho uwo mugore ari guseka.

Umugabo uhagaze imbere y'imeza aho ari kuvanga ibinyobwa bitandukanye kugira ngo akigire kimwe bitewe n'ibyo umukiriya yasabye.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye harimo ibisembuye n'ibidasembuye, aho gafite udutebe twiza tw'umweru twicaraho abakiriya, baje gufata ibyo binyobwa.

Agakayi gafite impapuro z'umweru aho gashushanyijeho amatasi atandukanye ndetse kandikishijeho amagambo y'umukara ndetse nandi asa n'icunga rihishije, Aho kerekana ibiciro na serivise bya buri kintu cyanditse aho.

Akabari gacuruza ibyo kunywa bitandukanye; ibisembuye n'ibidasembuye, aho hari abagore n'abagabo batandukanye bari kwizihirwa, bafata ibyo binyobwa, aho hari n'abari kwitegereza televiziyo bagaseka.

Akabari gacuruza ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuwe, aho karimo amatara amurika ibara ry'umutuku ndetse hicayemo umuntu ategereje ko bamwakira.

Ikibaho cy'umukara aho cyandikishijweho ingwa y'umweru aho gisobanura iminsi ako kabari gakora ndetse n'inyungu ya buri munsi.

Abantu batandukanye bambaye imipira itandukanye n'amakote atandukanye, aho bahagaze bamwe bicaye barigufata ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, aho bari kwishimira umuziki.

Akabari gacururizwamo ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye. Aho harimo imitako itandukanye iri ku gikuta ndetse hakaba harimo na tereviziyo abakiriya bareba, iyo baje kunywa ibinyobwa.

Akabari gacuruza ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, aho hicayemo abadamu babiri, umwe bambaye igitenge undi wambaye umupira wa orange, aho bari kureba umupira kuri televiziyo nini.

Akabari gacuruza inzoga z'ubwoko butandukanye, izisembuye ndetse n'izidasembuye, aho hejuru hamanitse tereviziyo ebyiri, aho imwe iri kwerekana umupira, naho indi nta kindi irimo irerekana. Gafitemo amabara ari mu tuntu tuyagaragaza nk'umuhondo.

Akabari gacuruza ibyokurya n'ibyo kunywa, aho abazungu bicaye ku meza ariho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, aho inyuma ybo hari umuseriveri wambaye ishati y'umweru, aho ari kwandurura.

Agakayi gafite impapuro z'umweru zandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara aho kerekana ikiguzi cya serivisi n'ibiciruzwa bitangirwa aho hantu uba wagiye gufatira amafunguro cyangwa se ibyo kunywa.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye, harimo ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, aho harimo abantu bari gufata ibinyobwa, bicaye ku ntebe, ndetse hari n'abari gufata amazi. Ku kameza kariho ibirahure, ndetse hari n'umukozi wambaye umupira w'umweru, usutse.

Umuhanda w'amabuye, aho harimo umugabo uri kwambuka wambaye ipantaro ya kaki, hafi y'umuhanda hari amazu, ndetse n'imodoka ziparitse, aho hari n'ibyapa binini biriho ibintu byamamazwa.

Imbuga aho abantu banyuramo hakanaparika n'imodoka aho ku kibambasi hasize ibara ry'umuhondo ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku n'umweru aho bamamaza ikinyobwa cya sikolo.

Ibyapa bini ni bimanitse ku nzu yubakishijwe amatafari ndetse isize irange ry'umukara, aho ibyo byapa biri mu mabara y'umutuku yandikishijeho amagambo y'umweru, byamamaza inzoga ndetse hariho icupa n'ikirahure.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye, aho abantu begereye ameza bari gufata ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye, aho hamanitse televiziyo abantu bari kwirebera ibyo bashaka.

Etajeri irimo ibinyobwa bitandukanye. Aho harimo ibinyobwa bisindisha ndetse n'ibidasindisha. Aho izo etajeri zirimo n'ibindi bikoresho umuntu akenera mu bikorwa bya buri munsi.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye aho gafite tereviziyo inyuzwaho imipira ndetse n'imiziki bitewe n'icyabaye kugirango bishimishe bakiriya.

Inzu yubakishije amatafari ya ruriba ifite inzugi irimo ibirahure bitabonerana, imbere yaho hari ameza maremare ndetse n'udutebe dusize ibara ry'umukara aho duteretse.

Umuhanda w'amabuye wemerewe no kugenderwamo imodoka zitaremereye gusa, aho hari kugenderamo ipikipiki ihetse umugenzi ndetse ku ruhande rwayo haparitse igare ndetse n'imodoka ifite amabara y'umukara.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku gishushanyijeho icupa ry'inzoga yitwa sikoro aho kiriho umudamu ndetse n'umugabo, cyanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara mu karongo k'umweru.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye, aho harimo ibisindisha n'ibidasindisha, aho harimo televiziyo nini yarutura, yerekana imipira itandukanye kumuganane w'iburayi no k'umugabane wa afuruka, aho harimo umugabo wambaye umupira w'icyatsi n'undi wambaye ijaketi y'umukara....

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, aho haririmo umuseriveri utanga serivisi ku baje bashaka ibinyobwa.

Icyapa kinini cyo kumuhanda, aho gifite ibara ry'icyatsi kibisi, aho cyamamaza inzoga yitwa virunga ndetse hejuru hayo handitseho bare na resitora.

Icyapa kinini kiri ku muhanda gisize ibara ry'umukara, aho cyamamaza inzoga yitwa jemusoni aho iyo nzoga isindisha ku bayinyweye.

Abagabo bicaye ku ntebe z'umutuku aho bateretse ibinyobwa bisembuye ku meza isa ibara ry'umutuku, aho bari kubifata kugira ngo bishime banezeze umubiri wabo.

Umuhanda w'amabuye, aho uri kunyuramo ipikipiki itwawe n'umumotari wambaye kasike y'umutuku, ndetse atwaye umugenzi nawe wambaye kasike y'umutuku, aho kuruhande rwabo haparitse imodoka eshatu.

Akabari gacuruza ibyo kunywa bitandukanye ibisembuye n' ibidasembuye aho ibyo binyobwa byose biri mu ka etageri kamanitse ku gikuta aho kuruhande rwaho hari tereviziyo yerekana amakuru, imipira ndetse n'ibindi.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye aho harimo abantu bategereje abakiriya ndetse hari n'abakiriya bicaye bari gufata kuri ibyo binyobwa harimo amameza n'intebe zitandukanye.

Inzu iriho icyapa kinini, cya rutura, cyamamaza ibinyobwa bisindisha, aho kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, aho iyo nzu icururizwamo imyenda n'ingofero, byo kwambara.

Akabari gacuruza ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye aho hari intebe z'umutuku, ndetse n'abantu bari gufata ibyo binyobwa, hari tapi ziri hasi ziri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru.

Akabari gasize ibara ry'umweru aho gacuruza ibinyobwa bitandukanye harimo ibisembuye n'ibidasembuye, karimo udutebe tureture, aho hahagazemo umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, aho ari gukora amasuku.

Icyapa cyamamaza gifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru aho mu mutuku handikishije amabara y'umweru ndetse n'umukara aho bamamaza ibinyobwa bisembuye. Inyuma yacyo hari inzu, imbere yacyo hari imodoka.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye aho hamanitseho tereviziyo ebyiri zireba mu byerekezo bitandukanye kugira ngo aho uri hose nk'umukiriya ubashe kwibonera ibyo ushaka kureba kuri tereviziyo.

Akabari gacuruza ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye aho harimo etajeri irimo inzoga z'imivinyo ndetse n'izindi zitari muri ubwo bwoko bw'imivinyo aho hirya yaho hari televiziyo abakiriya bareba bari gufata ibyo binyobwa.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye aho gafite etajeri irimo inzoga nini n'imivinyo ndetse n'izindi nzoga zikomeye hejuru yaho hari televiziyo nini aho ikoreshwa bari kureba imipira n'indirimbo ku baje batari kunwa bo.

Akabari gacuruza ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, aho hicayemo umukobwa umwe kuri kontwari n'abahungu bane n'imbere yabo hari umuseriveri bari kureba umupira.

Akabari gacuruza ibyokunywa bitandukanye, harimo ibisembuye n'ibidasembuye, aho bakuvangira ikinyobwa ushaka bakagiha umwimerere ugishakamo ndetse abakozi baho bambaye amajire harimo ibara ry'umuhondo.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye aho akabati karimo inzoga zisembuye ndetse n'izidasembuye, aho kukameza k'icyigina hateretseho ikirahure kirimo inzoga.

Akabari gasize irange ry'umweru aho karimo intebe z'umukara ndetse gafite imitako myinshi itandukanye, gafite amatara yometse ku bikuta ndetse harimo n'akabati gateretseho ibinyobwa bitandukanye.

Abagore babiri basutse bahagararanye, aho umwe ari kwishyura undi akoresheje ikarita, naho undi afite imashini isoma ikarita yishyurirwaho ibicuruzwa.

Umugore usize verine y'umutuku, aho afite imashini y'umukara isoma amakarita bishyuriraho, naho umugabo afashe ikarita, agiye gukozaho, kugira ngo abashe kwishyura.

Akabari gacuruza inzoga aho imbere yaho hari abakobwa baje gufata ibinyobwa bitandukanye mu gihe imbere hahagaze umugabo uvanga ibinyobwa bitewe n'ibyo ushaka.

Icyapa kinini kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, aho kiriho icupa rinini ryanditseho ijambo sikolo ndetse risa icyatsi kibisi aho ryamamaza iyo nzoga.

Urupapuro rw'umweru aho rwandikishije amagambo ari mu ibara ry'umukara aho rwerekana ibiciro bya serivise y'ibicuruzwa uko bihagaze ahongaho ndetse rukanasobanura ibyo bafite.

Igipapuro gifite nibara ry'umukara cyandikishijeho amabara y'umweru ndetse n'icunga rihishije aho kerekana ibiciro bya serivise n'ibicuruzwa bicuruzwamo agangaha n'uburyo wabyisyura ukoresha.

Icupa rizamo inzoga ya virunga, aho iruhande rwayo hari ikirahure kirimo inzoga yavanywe muri iryo cupa, aho iyo nzoga igurishwa ikanakwirakwizwa n'uruganda rwa buralirwa.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo yandikishije mu ibara ry'umukara ndetse n'amagambo yandikishije ikigina, rwerekana ibiciro bya serivisi n'ibicuruzwa, bitangirwa aho ngaho.

Urupapuro rw'umweru, rwandikishijeho amabara y'umukara, ndetse rwerekana ibiciro bya serivisi n'ibicuruzwa bicururizwa aho hantu.

Agakayi kari mu ibara ry'umukara aho handikishijwe amagambo y'umweru ndetse n'amagambo asa nk'icunga rihishije aho kerekana amafaranga yishyurwa kuri buri serivisi na buri gikorwa cyangwa igicuruzwa.

Akabari karimo ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye aho harimo tereviziyo yerekana umupira kubaje bashaka serivise zomuri ako kabari ndetse harimo namatara.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye harimo ibisembuye n'ibidasembuye aho gahagazemo umugabo wambaye ishati y'umukara n'isaha kukaboko k'ibumoso, aho ari kuvanga ibinyobwa bitandukanye bitewe n'ibyo abakiriya basabye.

Imbuga iparitsemo imodoka zitandukanye aho harimo imodoka ifite ibara ry'umukara ndetse n'indi ifite ibara ry'umweru, aho biparitse imbere y'amaduka atandukanye acuruza ibicuruzwa bitandukanye.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye aho gasize amabara y'umuhondo ndetse harimo icyuma gikonjesha ibinyobwa ngo bitangirika harimo intebe ndende abakiriya bicaraho.

Imeza ifite ishusho y'uruziga, aho isa ikigina, iteretseho amacupa n'ibirahure birimo inzoga, ndetse hariho n'icyapa cyamamaza inzoga. Hirya ku ruhande hari abantu baje gufata ibinyobwa.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye aho hicayemo abantu batatu harimo umugore umwe ndetse hari n'ahantu harimo umususurutsa, hakaba harimo na televiziyo na mashini y'umususurutsa.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye, harimo ibisindisha n'ibidasindisha, aho karimo abantu benshi bari gufata kuri ibyo binyobwa. Aho hirya hari televzizyo nini ibacurangira.

Akabari gacuruza ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, aho gafitemo ameza ndetse n'intebe byakirirwaho abakiriya baje kugura ibinyobwa ndetse bafitemo n'amatara amanitse hejuru.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, aho isakajwe n'ibiti ndetse n'imbingo, aho ifite imitako itandukanye, aho iyo nzu irimo imeza zitakishijwe ibitambaro bitandukanye.

Fagitire iri ku rupapuro rw'umweru aho handikishije amagambo y'umukara yerekana ibyakoreshejwe n'amafaranga kugira ngo byishyurwe biteretse ku kameza iruhande rwaho hateretse isahani iriho imiheha.

Akabari gacuruza ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, aho ibinyobwa bimwe biri muri etageri ibindi biri muri icyuma gikonjesha kugira ngo biryohe kandi bitangirika.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye harimo ibisembuye ndetse n'ibidasembuye aho abantu bicaye ku tumeza n'intebe bari kureba umupira bafata ku binyobwa bisembuye n'ibidasembuye.

Abagabo babiri aho umwe yambaye ingofero y'umukara undi yambaye ishati y'amaboko maremare aho bicaye ku dutebe two mu kabari bahanze televiziyo amaso aho bari kureba umupira w'amaguru.

Akabari gacururizwamo ibinyobwa bitandukanye: harimo ibisindisha n'ibidasindisha. Aho ku meza hateretse inzoga yitwa Amusiteri ndetse n'ikirahure kirimo inzoga yavanywe muri iryo cupa. Hejuru hari televiziyo nini za rutura zerekana imipira.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye ndetse n'imivinyo aho hicayemo umuntu wambaye imyenda y'umweru ndetse ufite terefone mu ntoki, aho akameza gahari hari urupapuro rwerekana ibiciro bagurishirizaho.

Inzu ikoreramo akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye harimo ibisembuye n'ibidasembuye, inzoga zikomeye n'izoroheje aho ku meza hateretse ibinyobwa bitandukanye ndetse harimo imitako itandukanye.

Urupapuro rutangwa na hoteri, resitora cyangwa se umuntu ku giti ke rwerekana amafaranga y'ibicuruzwa na serivise atanga muri resitora ye cyangwa hoteri cyangwa umuntu ku giti ke.

Akabari gacuruza ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, aho akabati karimo ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, ibindi biri mu makesi aho bitegereje gusimbura ibindi.

Akabari gucuruza ibinyobwa bitandukanye, aho bacuruza ibisembuye n'ibidasembuye ndetse ku meza yabo hariho n'uburyo bukoreshwa bishyura. Ndetse bafite na televiziyo nini ebyiri zerekana imipira yo hanze n'iyo muri Afurika.

Umukobwa usutse ufite telefone igezweho aho yambaye ikote yicaye mu kabari ategereje ko bamwakira, inyuma ye hari televiziyo ireberwaho umupira ku bantu baje muri ako kabari.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye aho bacuruza ibisembuye n'ibidasembuye, aho hari intebe zegereye imeza isize ibara ry'umukara ndetse hari n'akabati babikamo inzoga zitandukanye.

Ameza y'umukara, ateguyeho imivinyo, ndetse hari n'ibirahure bisutsemo imivinyo y'umutuku, aho hari n'isahane iriho ibyo kurya; nk'amafiriti ndetse ninyama.

Umugabo umwe n'abadamu babiri, aho bahagaze imbere ya etajeri y'akabari, ibikwamo ibinyobwa bisindisha ndetse n'ibidasindisha, aho uwo mugabo n'abo bagore bashinzwe gutanga serivisi muri ako kabari.

Aho abagabo bicaye hanze ku dutebe ndetse begereye ameza ako bari kwakirwa n'umuseriveri, kugirango abazanire ibinyobwa. Aho ku kameza hari ibirahure ndetse harin'ubucupa bw'amazi.

Inzu isize amabara y'umuhondo ndetse iriho ibirango byamamaza inzoga ya sikoro, aho ifite igipangu cy'umweru hejuru hari icyapa cyamamaza inzoga ya sikoro ndetse hafunguye.

Inzu size ibara ry'umuhondo werurutse, aho harimo imitako itandukanye ya Kinyarwanda iboshye neza, isa neza harimo n'udupfukamunwa tuboshye mu bitenge bikoreshwa bataka mu ngo.

Imodoka iparitse ifite ibara ry'umweru ndetse ifite amapine y'umukara, ihagazeho umukozi w'akagera motozi aho yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodokari isize amabara y'umweru, aho umugabo umwe yambaye umupira w'amaboko maremare ndetse afite ikayi mu ntoki, naho undi bafatanye igifunguzo kiri mu mabara y'umweru cyandikishijeho amabara y'umutuku.

Ishusho itwereka imodoka iri mu ibara ry'umukara, aho ifite ikirango cy'uruganda rwitwa yindayi, aho iyo modoka igurishwa miliyoni cumu n'eshanu iparitse ku muhanda w'umukara.

Imodoka y'umweru iparitse, aho imbere yaho hari abagabo babiri, umwe wambaye ishati y'amaboko maremare y'umukara ndetse n'ipantaro, uwundi wo hirya yambaye umupira ndetse yambaye n'ipantaro y'umukara, aho ari kumuhereza igifunguzo.

Abagabo babiri bahagararanye, aho umwe yambaye amarinete undi nta marinete yambaye, yambaye ipantaro ya kaki ndetse inyuma yabo hari imodoka, bafite igifunguzo bari guhererekanya byanditseho akagera moto.

Imodoka ifite amabara y'umweru, aho imbere yayo hahagaze abagabo babiri, umwe yambaye ishati ndetse undi nawe yambaye ishati y'umukara ndetse n'ingofero, aho bafite imfunguzo bagifatanyije.

Inzu isizemo ibara ry'umweru aho iyo nzu ikoreramo ishami rya banki runaka, aho harimo umugabo wambaye ipantaro ndetse n'ishati y'amaboko maremare, ndetse n'umugore wambaye ijipo y'umweru ndetse n'agakote k'umukara aho bari kwaka serivise.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, aho irimo icyuma kibika amata kugira ngo atangirika, harimo na etajeri irimo amabido abiri y'umweru agaramye ndetse harimo n'amacupa y'amazi, hejuru hateretse icyansi.

Inzu ifitemo amakaro y'ibara ry'umweru aho hateretsemo ibyansi bikoze mucyuma bya kizungu aho harimo n'igikombe badahisha basuka amata, hirya yaho hari ijerekani y'umweru bakoresha batwara amata.

Inzu isize amabara y'umweru ndetse n'ubururu aho urugi rusize amabara y'ubururu ruriho ibyapa byamamaza amata ya Nyanza ndetse muri iyo nzu harimo ama etejeri asize ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Inzu isizemo amabara y'ubururu, aho harimo icyuma kibika amata kugira ngo atangirika aho hahagazeho umugore uri kuri terefone imbere hari umagabo wambaye umupira imbere y'uwo mugabo hakaba hari akabati gafite ibara ry'ubururu.

Inzu isize amabara y'ubururu, aho harimo ibicuruzwa bidasenmbuwe ndetse n'amandazi, aho batanga n'amata kubantu baje bayagura kuko bafite icyuma kibika amata kugirango atangirika.

Inzu ifite umuryango uriho urugi rusize ibara ry'ubururu, mo mu imbere harimo indobo ebyiri zifite ibara ry'umweru harimo amandazi ndetse no mu yindi harimo keke byose biteretse ku meza.

Amagi icumi ari ku gakoresho kayabika aho gakoze mu mpapuro kugira ngo kayarinde kwangirika cyangwa se kumeneka byose biteretse ku meza inyuma yaho hari ibara ry'umweru.

Utubido tw'umweru ndetse n'akandi k'umuhondo, aho duteretse ku makaro twanditseho na marike zitandukanye aho hari marike y'ubururu ndetse na marike y'icyatsi kibisi, aho dukoreshwa batuzanamo amata ndetse n'ibindi.

Inzu isize amabara y'umweru aho ku gikuta hometseho amakaro no hasi hari amakaro afite ibara ry'umweru hari akameza k'umukara ndetse hahagaze umukobwa wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare ndetse n'ikabutura y'iroza aho hirya yaho hari icyansi cy'amata.

Umugabo uri mu nzu isize amabara y'umuhondo. Aho yambaye umupira w'umukara, ipantaro y'ubururu. Afite icyansi kirimo amata ari gusuka mu cyuma kibika amata, kugira ngo atangirika.

Umwana wambaye isarubeti afite telefoni ntoya y'umukara y'amatushe, aho inyuma ye hari abasore babiri bambaye amajire afite ibara ry'umutuku.

Inzu iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru aho irimo ibinyobwa bidasembuye nk'amata, ji, amazi ndetse n'ibindi. Aho hari n'icyuma kibika amata kugira ngo atangirika mugihe amaze igihe.

Inzu isize amabara y'umuhondo irimo umumama wambaye ingofero ikozwe mu budodo aho afite akabido k'umuhondo ka litiro eshanu kari ku meza iriho amateremunsi abikwamo ibyo kunywa.

Akameza gafite ibara ry'igitaka aho gateretseho ikaramu ndetse n'igikombe k'ikirahure kirimo amata aho umugabo afite keke ari kubinywesha.

Inzu isizemo amabara y'ubururu n'umweru, aho harimo icyuma bikonjesha amata ngo atangirika, aho harimo etajeri n'ibinyobwa bidasembuye nka ji n'amata.

Isambusa ziri kw'isahani ngari aho zikorwa mu birayi bitetse bigashyirwa mu mpapuro zakozwe mw'ifarini nayo yaponzwe neza igashya.

Umwana mutonya usutse uri kunywa yahurute iri mu gakopo aho gafite agashashi gasa umutuku, iyi yahurute ikaba ikorwa mu bikomoka ku matungo nk'amata ndetse n'ibindi.

Inzu isize amabara y'ubururu aho harimo icyuma kibika amata kugira ngo atangirika agumane umwimerere wayo, aho hahagaze umugore wambaye ishati y'umukara, imbere ye hari umugabo wambaye umupira.

Inzu isize amabara y'ubururu, aho umukobwa yicaye yambaye umupira w'icunga, usa n'icunga rihishije, aho ari gucuruza amata, imbere ye hahagaze abana babiri ndetse n'umuhungu wambaye isengeri.

Icyuma kibika amata kugira ngo atangirika kiriho ibirango by'Inyanza miriki indasitiri mu mabara y'umweru n'ubururu, aho imbere yaho hari intebe iri mu misego y'umweru ndetse n'akameza.

Teremusi ebyiri aho imwe ari iy'icyuma indi ari iya parasitike. Iruhande rwayo hari agasanduku karimo capati zikorwa mu ifarini. Byose biteretse ku kameza gasize ibara ry'ubururu biri mu nzu aho bicururizwa.

Etajeri iri mu ibara ry'ivu, aho irimo amabido agaramye y'umweru, ndetse biri mu nzu y'amatafari ahiye. Aho ayo majerekano akoreshwa bazana amata, batwara amazi, ndetse n'ibindi.

Inzu ikikijwe n'imbingo aho isakajwe n'imbingo harimo umugore wambaye umupira w'umweru, aje guhaha amata ndetse n'ibindi biyakomokaho nka yahurute.

Firigo isize amabara y'umweru aho irimo amata n'amazi n'ijage, n'igikombe cy'umweru aho iri mu nzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Abakobwa babiri, aho uw'imbere yambaye umupira w'umukara, ndetse acigatiye amata mu kaboko k'ibumoso, naho undi acigatiye ikarito irimo amata menshi, inyuma yabo harimo imashini ibika amata kugira ngo atangirika.

Abana babiri bicaye ku ntebe z'umweru aho bari gusoma amata ndetse bafite na keke mu ntoki aho iruhande rwabo hari umuseriveri wambaye umupira w'umweru ufite ikora rya oranje.

Amandazi menshi ari ku isahani igaramye aho rimwe risatuye ni amandazi akorwa mu ifarini ndetse n'amagi, aho amagi afasha kugira ngo abe umuhondo ndetse yongere intungamubiri.

Imeza ifite ibara ry'umweru iri mu ishusho ya mpande enye, aho iri mu nzu yubakishijwe amatafari ya ruriba, aho iteretseho uduti bakoresha bari gukura imyanda mu menyo nk'inyama n'ibindi.

Akameza k'umweru, aho hejuru yako gateretseho agaseke, karimo amagi atatu, atetse, ndetse iruhande rwaho hari agakopo karimo umunyu, kituye hasi.

Icyapa kiri mu birango by'ubururu n'umweru cyerekana aho bacuruza ibikomoka ku matungo harimo yahurute, amaji n' amazi y'Inyange aho hitwa ikaze dayari.

Amata y'ikivuguto ari mu kabido k'umweru. Aho amata y'ikivuguto ava ku nka yabanje kuba inshyushyu, bakayavurisha, andi akabona kuba ikivuguto kinyobwa, gifashe.

Etajeri ifute ibara ry'umweru ndetse n'ibara rya kaki aho irimo udusanduka dupfundikiye tueimo imbuto zihase ziteguye neza ziri mu dusanduka hirya yaho hari imineke idatonoye.

Inzu isize irange ry'umweru ndetse n'iry'ubururu, aho harimo ama etajeri ndetse n'intebe n'imeza, aho bacuruza ibinyobwa bitandukanye birimo amata, icyayi ndetse n'ibiribwa na capati n'amakeke.

Akabati kari mu ibara ry'ikigina aho gateretsemo amazi ava mu ruganda rwa Nili ndetse harimo amvilope irimo ibintu ifite ibara rya kaki.

Umugurisha afashe igikombe kirimo amata aho ari gupima amata agiye guha umukiriya, inyuma ye hari firigo isize ibara ry'umweru ndetse iruhande rwe hari akameza kari mu ibara rya shokora.

Umukobwa wambaye umupira w'ubururu bwerurutse bwandikishijeho amagambo y'umukara, wambaye ingofero y'umweru. Aho ari gusuka amata mu kabido k'umweru, ayavana mu cyansi kinini kugirango ahe abakiriya.

Amaboko y'abasore batandatu bateruye ibirahure by'amata aho bakozanyijeho ibirahure by'amata mu rwego rwo kwishimira ko bagiye kuyanywa, bari mu nzu irimo etajeri y'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, wambaye inkweto z'umukara aho afite akavido kumweru mu ntoki, ari gusuka amata kugirango abashe kuyimurira mu kavido ayahe umukiriya.

Etajeri nini ifite amabara y'umukara aho ifite imyanya ibika utubido, aho harimo utubido twinshi tw'ibara ry'umweru, iyo nzu birimo ifite ibara ry'umweru ndetse n'igisenge cy'umweru.

Inzu ifite idirishya risize irange ry'ubururu ndetse hakoreramo umugore wambaye itaburiya y'umweru aho ari gutanga amata ku mukiriya waje umugana uri mu idirishya.

Akameza k'umweru gateretseho isahani y'umweru ndetse n'itasi irimo amata, imbere yaho hari akabati karimo imiti ndetse na anvelope yo guhahiramo.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara aho arigusuka amata ayavana mu kabido k'umuhondo ayashyira mu gikombe k'ikirahure aho ari kubyuzuza biteretse ku iparato.

Inzu yubakishijwe amakaro y'umweru hasi ndetse n'andi yometse ku gikuta aho harimo imashini ibika amata isa n'ifeza aho iyo mashini ikoreshwa kugira ngo amata atangirika.

Abasore babiri ndetse n'umudamu umwe, aho bicaye imbere y'imeza, bari gutafa amata bayanywa, ndetse inzu barimo isize ibara ry'umweru ndetse n'ubururu. Aho ku meza hateretseho amajage arimo amata.

Icyuma kibika amata kugira ngo atangirika ariko cyacometswe ku muriro kugira ngo gikore, aho icyo cyuma kiri mu nzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse na sima, iruhande rwaho hari etajeri iriho amabido azanwaho amata.

Isambusa eshatu n'utundi tubiri duvunaguye dutoya, turi ku gasahani k'ubururu, aho biri ku kameza y'igitaka, bisa nkaho byari biri kuribwa n'umuntu.

Inzu isize ibara ry'ubururu aho iri mu birango by'inyange ndetse irimo abakozi babiri bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ingofero z'umweru, aho harimo icyuma kibika amata kugira ngo atangirika.

Inzu yubakishijwe amakaro afite ibara ry'umweru aho bari gukora amasuku n'amazi, aho imbere yiyo nzu hari ipikipiki y'umukara iparitse ndetse n'igare riparitse.

Abakobwa babiri bambaye imipira y'ubururu, aho bisukishije, bari gucuruza ibikomoka ku matungo harimo amata, yawurute, harimo n'ibikonje kubera ko bafite imashini ibika ibintu ikabikonjesha.

Isize irange ry'umweru ndetse n'ubururu aho irimo ibinyobwa bidasembuye nk'amazi, ji, n'ibindi aho hicaye umukobwa wambaye ikote aho ari we uri kubigurisha ku mukiriya wambaye ipantalo.

Inzu irimo firigo ebyiri, aho firigo ihagaze ifite ibara ry'umweru, iriho ibyapa byamamaza amata ya Mukamira ndetse hirya yaho hari etajeri irimo ibyo kunywa bidasembuye ndetse hari umugore wambaye umupira w'umukara.

Imeza batakishijeho igitenge, ndetse iteretseho isahani iriho irindazi. Irindazi rikorwa mw'ifarini ndetse n'amazi, rigatekwa mu mavuta mpaka rihiye.

Akabido k' umweru karimo amata gateretse ku meza aho amata avanwa ku nka bayakamye ndetse bakayabika iminsi aho bayavanga n' andi kugira ngo abe ikivuguto.

Inzu isize amabara y'umweru ndetse n'ubururu aho ifite inzugi zisize ibara ry'ubururu, aho mo mimbere harimo etajeri ndetse nutumeza bakiriraho abakiriya baje babagana, kugira ngo babahe serivise inoze

Inzu isize amabara y'umweru, ifite amakaro y'umweru, aho irimo ibyuma bishinzwe gukonjesha amata ndetse no kuyabika ngo atangirika.

Inzu ifite amabara y'umweru aho harimo etajeri, irimo ibinyobwa bidasembuye nk'amata na ji, aho harimo n'icyuma kibika amata kugira ngo atangirika.

Kantine yicayemo umumama usutse ndetse n'umukobwa wambaye ikoti ry'ubururu, aho bacuruza ibinyobwa bidasembuye ndetse n'amata.

Imeza ifite ibara ry'umukara aho iteretseho ibiryo biri ku masahane y'umweru hariho umugabo wambaye ishati y'umweru uri gufungura ndetse n'undi wambaye umupira nawe ari gufungura iruhande rwe.

Amaboko y'abasore aho acigatiye ibikombe by'ibirahure birimo amata ndetse imbere yaho hari amasahani ari ku meza ariho keke zikorwa mu ifarini n'isukari na capamandazi.

Amandazi ari ku isahani y'umweru ndetse harimo rimwe risatuye, aho aya mandazi akorwa mu ifarini, capamandazi ndetse n'amazi, bakayateka mu mavuta, aho ushobora kuyarya mu gitondo cyangwa se nimugoroba.

Kantine irimo ibinyobwa bidasembuye, aho harimo imashini ibika ibinyobwa kugirango bitangirika, iri mu ibara ry'umweru, imbere y'aho hari etajeri irimo ibyo binyobwa.

Yahurute iri mu dukombe dupfundikishije ishashi y'umutuku aho yahurute ikorwa mu musaruro uva ku bikomoka ku matungo nk'amata ndetse n'ibindi.

Imashini IrI mu nzu y'ubururu aho icuruza ibinyobwa bidasembuye, birimo amata ji , n'amazi aho bafite imashiin zikonjesha amata yo kunywa.

Inzu ifite ibara ry'ubururu ndetse harimo etajeri isize ibara ry'ubururu aho irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibinyobwa bitandukanye nk'amazi, ji ndetse n'amata.

Inzu isize amabara y'umweru, aho irimo umukiriya n'umugurisha. Aho umukiriya aje kwigurira bicuruzwa bicururizwa aha nk'amata, keke ndetse n'ibindi.

Umudamu witandiye ucigatiye amata, wegereye imeza iri mumabara y'umweru ndetse inyuma ye igikuta gisa umweru ndetse n'ubururu, aho hirya hari icyuma kibika ayo mata avuye kuyavana.

Etageri ikozwe mu cyuma faho iteretseho terimusi ebyiri ndetse n'udusanduku tw'imigati keke ndetse n'amasahani imbere yaho hari firigo ibikwamo ibinyobwa ngo bitangirika.

Umumama wisukishije wambaye imyenda ikoze mu gitenge aho afite telefone igezweho ikoresha ikoranabuhanga aho yashyize akaboko ku meza iriho icyayi kiri mu itasi.

Kantine icuriza amata, aho harimo etajeri irimo amabido y'umweru azanwamo amata, ndetse harino n'amagi ndetse na keke zikora mu ifarini ndetse n'amazi. Aho hari n'icyuma kibika ayo mata.

Inzu irimo akameza ndetse n'intebe aho aho hantu hacururizwa ibinyobwa bitandukanye, harimo amata, yawurute ndetse na ji ishakwa n'abakiriya batandukanye.

Inzu iri mu mabara y'ubururu, aho harimo ibyuma bitandukanye bikonjesha amata kugira ngo atangirika, imbere yaho hari akameza kari mu mabara y'umweru, hasi harimo amakaro.

Inzu ifite ibara ry'ubururu, aho mo indani harimo imeza y'ikigina, aho hateretseho indobo irimo amandandazi ndetse n'indi kuruhande, aho amandazi akorwa mu ifarini.

Icyuma kibika amata kugira ngo atangirika, aho agumiza afite umwimerere wayo, aho iruhande rwaho hari umuntu uri kukivomaho amata muri icyo cyuma wambaye itaburiya y'umweru.

Inzu iriho ibyapa biri mu mabara y'ubururu yanditseho ijambo Inyange mu magambo y'umweru aho byerekana inzu icururizwamo ibijyanye n'Inyange nk'amata n'amazi bokorwa na rwo.

Capati zitetse nyinshi zirenze imwe aho ziri ku isahani y'umweru igararanye, aho capati zikorwa mu ifarikwi, mu bitunguru ndetse zigateka mu mavuta, ku ipanu cyangwa se ukoresheje isafuriya bitewe n'icyo ufite.

Agakopo ka mukamira kazamo yahurute y'inyeri ndetse kandikishijweho amabara y'umweru ibirango by'umweru ndetse gashushanyijeho inyeri kandiditseho n'andi magambo y'ibigize iyo yahurute.

Icyapa kiri kunzu ifite inzugi zisize ibara ry'ubururu aho icyo cyapa cyanditseho Nyanza milk industry aho cyamaamza ibikomoka ku mata bicuruzwa n'urwo ruganda harimo amata, yahurute n'ibindi.

Akameza k'umweru kari mu nzu isize amabara y'ubururu ndetse ifite umuryango w'umweru, aho ako kameza gateretseho imineke, amagi ari mu kabogisi, amandazi ari mu ndobo ndetse n'ifu iri mu ndobo, hirya yaho hari urusenda ndetse n'umunyu.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyandikishijeho amagambo y'umweru, ndetse n'icyatsi kibisi aho kerekana ibinyobwa bicuruzwa hano. Aho harimo amata, amazi, ndetse na ji.

Umudamu wambaye igitenge kidodeshe aho yicaye irihande rwa firigo isize amabara y'umutuku iriho igifanta kinini cya Coca Cola aho yicaye ku ntebe y'ubururu.

Umukobwa wisukishije wambaye amaherena, aho yipfumbase yambaye umupira, yayashyize ku meza, aho inyuma ye hari ibyansi bikozwe mu cyuma, ndetse inzu yicayemo irimo amakaro.

Keke ziri ku isahani y'umweru aho zikorwa mu ifarini isukari na capa mandazi zigatekwa mu ifuru, aho abantu bashobora kuzikoresha nk'ifunguro rya mu gitondo bakariha abana bajya ku ishuri ndetse n'ibindi.

Inzu isize amabara y'ubururu, aho icuruza ibinyobwa bidasembuye, harimo; amazi, ji, amata, ndetse n'ibindi. Aho harimo umukobwa uri gutanda amandazi ku mukiriya waje umugana.

Akameza gateretseho amata ari mu bikombe by'ibirahure, ndetse gateretseho n'akabido hejuru; iruhande rwaho hari intebe, na ho hirya ya ho hari etageri, aho bayiterekaho ibintu bitandukanye.

Etageri nini ifite ibara risa n'ivu, aho irimo utuvido dutoya twa ritiro eshatu tw'amata tw'umweru na yahurute ziri mu dukopo dufunikishije udushashi tw'umutuku, ndetse n'amakesi yifashishwa bashyiramo yahurute.

Umusaza wambaye ishati y'iroza ufite amarinete w'umucuruzi imbere ye hateretse indobo ya keke ndtse n'indabo y'imigati, imbere ye hari umugabo ufite akabido k'umuhondo yaje kugura amata.

Inzu isize amabara y'ubururu, aho harimo icyuma kirinda amata kwangirika, harimo abantu babiri; umugabo n'umugore, aho umugabo afashe telefoni mu ntoki.

Abasore babiri ndeste n'umudamu umwe, bicaye ku ntebe z'umweru aho begere ameza ateguyeho amata ndetse bari no kuyanywa. Aho iyo nzu iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Akameza k'umweru, kariho isahane y'umweru, aho ku isahane hariho keke, ikorwa mu ifarini ndetse n'isukari, aho umugabo afite igikombe, kirimo amata yo kunyobwa.

Inzu isize Ibara ry'ubururu aho harimo etajeri iteretsemo amazi ndetse n'ibindi binyobwa bidasembuye nkaji ndetse n'amata aho hari icyuma kibika amata kugira ngo atangirika.

Umudamu w'inzobe, wambaye igitenge, aho yicaye ku ntebe z'ubururu, afite igikombe cy'umweru kirimo icyayi cy'amata, aho hirya ye hari intebe y'ubururu ndetse n'imeza iriho igitenge ndetse n'amata.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo ari mu ibara y'umukara, aho amagambo amwe n'amatariki biri mu ibara ry'umukara, aho urwo rupapuro rwanditseho imenyekanishamusoro ku kigo kibishinzwe.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, aho amagambo amwe n'amatariki ari mu tuzu, aho urwo rupapuro rwerekana imenyekanishamusoro ry'umusoro w'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro.

Ishusho yerekana amafaranga y'ibihugu bitandukanye aho ari mu ngano zitandukanye. Aho harimo inote za bibiri z'igihugu bitandukanye, iza magana atanu, iza rimwe, iz'abiri ndetse kuri izo noti hagiye hashushanyeho ibirango bitandukanye bitewe n'igihugu.

Ishusho iri mumabara y'umuhondo, aho hariho amadarapo atandukanye y'ibihugu bitandukanye, aho hejuru hariho ikiranganteko cya banki y'Urwanda, aho iyo shusho yerekana uko ivunjisha rihagaze ku isoko.

Ishusho yerekana amafaranga akoreshwa muri Kongo aho ayo mafaranga ariho abantu batatu bashushanyijeho baboshye nkaho bari mu bucakara, haruguru yaho hariho indi shusho itwereka ikindi gipande cy'aya mafaranga hariho amazu.

Ishusho iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku, aho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, aho imbere ya buri gihugu handitse umubare rimwe, ndetse iyo shusho itwereka uburyo amafaranga avunjishwa mu gihe cy'ubu.

Umuntu ufite amadorari ya Amerika, aho ari kuyitegereza. Aho ayo madorari ariko umugabo ufite umusatsi muremure, ndetse w'umuzungu. Aho ayo mafaranga akoreshwa ku isi hose, aho wajya hose.

Inzu zifite imiryango isize ubururu bwerurutse, aho izo nzu zikorerwamo n'ibigo bishinzwe ivunjisha aho ibyo bigo bifite ibyapa byerekana ko bavunjisha ndetse n'ibindi byamamaza inzoga zitandukanye.

Inzu yubatse hasi harimo amakaro aho hateguye sare igiye kuberamo inama, ifite utumeza tw'umukara aho buri meza iriho ikayi ndetse n'amazi imbere yaho hari ikibaho gifite ibara ry'umweru.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye, harimo ibisindisha n'ibidasindisha, aho harimo akabati karimo ibyo binyobwa bitandukanye, harimo ibihenze n'ibidahenze bitewe n'ibyo ushaka kunywa.

Umuhanda w'umukara aho uri kugenderamo ibinyabiziga bitandukanye, aho harimo mo amapikipiki ndetse n'imodoka y'umukara, aho ku ruhande heteye ibiti ndetse na jaride iruhande rwawo.

Inzu ndende zisize amabara y'umweru ndetse zifite ibirahure bisa n'ubururu, aho impande y'aho hari ibiti bihateye, ndetse hari abanyamaguru bari kugenda n'ibinyabiziga biparitse n'ibindi biri gutambuka.

Igeretse gatatu aho iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, nko gucuruza imodoka ndetse n'ubwishingizi butandukanye, aho imbere yaho haparitse imodoka iri mu mabara y'umutuku ndetse hari n'abantu bari ku kuri etage ya kabiri.

Ishusho iri mu ibara ry'umukara, aho hariho umugore wambaye ikote ndetse wambariyemo ishati y'umweru, ndetse n'umugabo wambaye ikote ry'ubururu, ndetse yambariyemo ishati y'umweru, iriho karuvati, aho bamamaza uburyo bagiye gutanga akazi.

Ishusho itwereka umugabo wambaye ikote ry'umukara, yambaye n'ishati y'umweru, aho ari kwishima, iruhande rwe hari mudasobwa ndetse n'ikirahure kirimo ikawa, hasi handitseho amagambo ya Banki ya Kigali.

Po, iri mu ibara ry'ubururu, aho hari umukobwa, wasetse cyane yasamye, aho asutse uwo mukobwa, wambaye isengeri y'umuhondo ndetse n'ishati y'ubururu, aho hirya handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo

Inzu igeretse aho ikoreramo ubucuruzi butandukanye, buteza imbere abaturage, aho imbere yayo hari abaturage benshi ndetse n'abashinzwe umutekano, kugirango hatagira uwangiza amategeko.

Isoko ririmo abantu benshi aho bacuruza ibikoresho bitandukanye harimo imyenda imitako ndetse n'ibindi, aho abaguzi baje ari benshi kugira ngo bahahe ibintu byo mu rugo iwabo,

Isoko risakaye aho habamo abacuruzi batandukanye bacuruza ibiribwa bitandukanye harimo imboga n'imbuto aho abaguzi baza kugura muriryo soko batanyagirwa ndetse ntanizuba ribishe.

Isoko ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, aho ibyo bicuruzwa ari ubugeni gakondo bw'u Rwanda, aho bafite ingoma ndetse bafite utumamiyo dukoreshwa bateka, bafite ibiseke n'ibindi by'imitako.

Akameza k'umukara gateretseho icyapa kiri mumabara y'umuhondo ndetse handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ndetse handitseho nimero z'umucuruzi aho ushobora kumwohereza amafaranga ntakindi kiguzi bigusabye.

Akazu ka MTN kari mu mabara y'umuhondo ahandikishiho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse hari ibirango bya MTN, aho hahagaze umugabo ndetse n'umudamu usutse, aho uwo mudamu yambaye akajire k'umuhondo.

Rya mtn aho hariho ibirango bya mtn biri mu mabara y'umuhondo , aho hari abakozi ba mtn bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'amashati y'umweru. Aho haje umukiriya wambaye ishati y'umweru aje gushaka serivise.

Akazu gafite amabara y'umuhondo kandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, aho gakoreramo umukozi wa emutiyene ushinzwe gutanga serivize za emutiyene nko kubitsa, kubikuza ndetse no kohereza.

Akazu ka MTN gafite ibara ry'umuhondo ndetse kariho amagambo yanditse mwibara ryumukara ndetse n'umutuku aho kicayemo umukobwa wambaye umupira ndetse impande ye hahagaze abagabo baje gusaba serivise kurako kazu.

Umudamu wicaye yambaye ingofero y'umweru aho yambaye taburiya iri mu mabara y'umuhondo yandikishije amagambo ari mu mabara y'ubururu, aho inyuma ye hari abandi bantu, hari n'intebe iri mu mabara y'umukara aho ari kwamamaza emutiyene.

Akazu gafite amabara y'umutuku ariho ibirango bya eyeteli byandikishije ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo kamanitseho ibyapa byamamaza eyateli aho gakoreramo umukozi wa eyeteli ushinzwe gutanga serivise no gutanga amayinite ndetse n'ibindi.

Iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye aho imbere hahagaze umuntu wambaye umupira w'umukara ndetse n'amarinete aho ari kubarira abantu ibyo baguze ngo bishyure mu buryo bwateganyijwe.

Akazu gafite amabara y'umutuku n'umukara, aho gakoreramo umukozi wa Airtel, kandikishijeho amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo, kamanitseho ibyapa byamamaza ibikorwa bya Airtel.

Abakozi ba Emutiyeni aho bahagaze munsi y'igisenge kiriho amabara n'ibirango bya Emutiyeni mu ibara ry'umuhondo, aho bari kwerekana ibicuruzwa byabo.

Ibyapa by'umuhondo biri mu mabara ya emutiyeni ndetse n'ibirango bya emutiyeni aho bimanitse hejuru y'inzu kugira ngo byamamaze iyo kampani ndetse ibone abakiriya.

Inzu isize ibara ry'umuhondo yanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umukara aho hariho ibirango bya emutiyeni n'abakozi ba emutiyeni bari gusobanura bakanatanga serivise ku bakiriya bahagaze imbere yabo.

Icyapa cy'umuhondo cya Emutiyeni cyanditseho Jean Bosco kigaragaza uburyo bukoreshwa bishyura ibicuruzwa na serivisi bakoresheje aho umuntu afite agatelefoni mu kiganza arimo arishyura amafaranga.

Utuzu tubiri aho kamwe imbere gafite amabara y'umutuku, naho akinyuma gafite amabara y'umuhondo, bose bashinzwe gutanga serivisi zijyanye ni itumanaho za eyateri ndetse na emutiyene.

Umusore uri mu kazu gafite amabara y'umuhondo aho ari kwandika ibintu mu ikayi, imbere ye hari umudamu usukishije wambaye agasengeri aho yaje gusaba serivisi uwo muntu.

Umusore uri mukazu gafite amabara y'umuhondo, aho afite ikaramu ari kwandika mugitabo, ndetse impande hari umukobwa wisukishijije, wambaye ikanzu ndetse ari kumuha serivise z'ibijyanye n'ibyo akora.

Ihema riri mu mabara y'umutuku ririho ibirango bya Airtel byandikishije ibara ry'umweru ririmo abakozi ba Airtel bambaye imipira iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ngofero, aho barimo gusobanurira abantu serivise batanga.

Umudamu wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'itaburiya iri mu mabara y'umuhondo ifite ibirango bya MTN aho kuruhande hari amasafuriya, imeza, ibikarito aho uwo mukobwa ari mu ihema ry'umuhondo hirya yaho hari igi kontineri.

Inzu isize amabara y'umuhondo aho irimo ibyapa byerekana nzu z'umugi wa Kigali; ndetse imbere hicayemo umukozi wa Emutiyeni wambaye umupira w'umuhondo. Yicaye imbere ya mudasobwa, aho ari gufasha umukiriya waje umugana; wambaye umupira w'icyatsi kibisi.

Umukozi wa MTN uri mu kazu MTN kari mu mabara y'umuhondo n'ibirango bya MTN, aho atanga serivisi zirimo kubitsa, kubikuza no kohereza, hari n' abakiriya babiri baje gushaka imwe muri izo serivisi.

Akazu gakoreramo umukozi wa MTN kari mu mabara y'umuhondo, ibirango bya MTN aho utanga serivise za MTN yambaye umupira w'umukara, imbere hahagaze umukiriya wambaye umupira w'umweru uhetse igikapu, uruhande rwe hari undi mukiriya wambaye agapira k'iroza.

Akazu ka MTN kari mu mabara y'umuhondo n'ibirango bya mtn gahagazeho umugore wambaye umupira w'umukara unisukishije n'ipantalo y'ubururu n'umugabo wambaye ipantalo y'ubururu n'umupira w'icyatsi aho baje gusaba serivise zitanga n'umukozi wa MTN ukorera muri ako kazu harimo kubikiza no kubitsa n'umukozi n'ibindi.

icyapa cya MTN kiri mu mabara y'umuhondo n'ubururu cyandikishijwemo amagambo y'umukara n'umweru aho kerekana uko wishyura amafaranga udakaswe.

Ishusho igaragaza abantu batandukanye bari kwiyanika mu ihema rifite amabara y'umuhondo, hirya yaho hari irindi hema rifite amabara y'ubururu, aho harimo abagore batandukanye ndetse n'abagabo batandukanye.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara hashushanyije ibintu bitandhukanye nk'ingofero, imipira ndetse n'udukomo, n'amafurashe. Aho imbere yaho hahagaze abagabo bambaye ingofero z'umukara ndetse n'imipira y'umuhondo.

Inzu isize amabara y'umweru ikoreram ishami rya eyateri, aho harimo umuzungu wambaye amarinete ndetse wambaye umupira w'umweru urimo amabara y'umuhondo, ndetse hirya ye hari umugore wambaye na we amarineti. wambaye umupira w'umuhondo.

Akazu ka MTN karimo amabara y'umuhondo ndetse kandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hariho ibirango bya MTN, harimo umukozi ushinzwa gutanga serivisi zitandukanye za MTN, imbere ye hari abakiriya.

Akazu ka MTN kari mu mabara y'umuhonda gakoreshwa n'umukozi wayo utanga serivisi zirimo gutanga amayinite, kohereza, kubitsa ndetse no kubikura aho gafunguye nta muntu ukarimo, imbere hari umugore uri gutambuka.

Mama wambaye ikanzu ikozwe mu gitenge, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, inyuma yabo hari icyapa kinini gifite amabara y'umuhondo cyandikishijeho amabara y'umukara ndetse hari ibirango bya MTN, imbere yaho hari imodokari ifite ibara ry'umukara.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umuhondo handikishijeho amagambo mu ibara y'umukara haraiho ikirango cya emutiyene ndetse hakaba hashushanyijeho imodoka iriho umuntu impande yayo hari umugabo, wambaye umupira w'umuhondo uriho ikirango cya emutiyene, ndetse ahagaze iruhande rw'ipikipiki y'umuhondo.

Isoko rigurisha imyenda yo kwambara irimo amapantaro ndetse n'ibindi, aho bimanitse hari n'icyapa kiri mu mabara y'umuhondo, ibirango bya emutiyeni, byandikishije amagambo y'ubururu ndetse n'umukara. Aho hariho uburyo bukoreshwa bishyura.

Ikizu gisize ibara ry'umuhondo ndetse n'iry'ubururu aho kiriho ibyapa byamamaza emutiyene n'ibirango, imbere yaho hahagaze abagabo bambaye imipira y'umuhondo iri mu mabara y'umukara, aho umwe yambaye ingofero undi ari umuzungu ndetse uw'inyuma yabo yambaye umupira w'umweru.

Inzu isize amabara y'umuhondo, aho imbere harimo ibyapa bya MTN, aho harimo akameza k'ikirahure kariho icyapa kiriho uburyo bukoreshwa bishyura badakaswe amafaranga.

Inzu isize amabara y'umweru, aho harimo ibyapa by'umutuku byandikishijeho amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, aho byamamaza kompanyi ya Airtel, aho hari abakiriya baje gushaka serivisi.

Utuzu tubiri twegeranye aho kamwe gafite amabara y'umutuku kandikishijeho amagambo y'umweru ndetse n'ibirango bya Airtel, naho akandi amabara y'umuhondo kandikishijeho amagambo y'umukara.

Akazi k'umukozi wa mtn, aho gafite amabara y'umuhondo ndetse kariho n'ibirango bya mtn. Aho harimo umugore wambaye umupira w'umukara usutse ari gutanga serivise ku bagabo batatu bamuri imbere. Ku ruhande rundi hariho umugore ufite telefone.

Akuzu gakoreramo umukozi ushinzwe gutanga serivise za emutiyene aho gafite ibara ry'umuhondo kandikishijeho amagambo ari mu ibar ry'umukara, aho hariho ibirango bya emutiyrme imbere hahaza umuhabo wambaye ikanzu ndetse n'ingofero ya isiramu ndetse n'undi wambaye umupira aho bari guhabwa serivise.

Icyapa cy'umuhondo cyandikishijeho amagambo y'umukara ndetse kiriho utuntu tw'umweru, cyerekana uburyo wakwishyura ukoresheje uburyo bwa MTN budacibwa amafaranga.

Akazu gakoreramo umukozi wa MTN gasize amabara y'umuhondo kariho ibirango bya MTN gakinze aho iruhande rwaho hari umugabo uri kwitaba terefone yabuze umuntu ukorera muri ako kazu.

Umumotari uje kunywesha esanse n'ibikomoka kuriyo, aho imbere ye hari umugabo uri guseka ndetse n'umugore bambaye imipira y'imihondo, bari kumuha esanse ndetse inyuma yabo hari umugabo wambaye umupira w'umweru.

Akazu gakoreramo abakozi ba emutiyene, kari mu mabara y'umuhondo, kandikishijeho amagambo y'umukara, kariho ibirango bya emutiyene, n'izindi serivise bakoreramo ku giti cyabo, aho harimo umugore ndetse n'umugabo bari gutanga serivisi ku bakiriya baje babagana.

Akazu ka emutiyeni kari mu mabara y'umuhondo ndetse n'ibirango bya emutiyeni, kamamaza serivise za emutiyeni, gateretse ku muhanda aho imodoka zinyura.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu, wambaye umupira w'umuhondo wandikishijeho amabara y'umweru, ufite ishapule ku kaboko ndetse uri gukanda muri telefone igezweho ikoresha ikirahure.

Akazu gakoreramo umukozi wa emutiyene ushinzwe gutanga serivise zigiye zitandukanye, harimo kubitsa kuhereza ndetse n'ibindi. Aho gafite amabara y'umuhondo yandikishijeho amagambo y'umutuku ndetse n'umukara. Aho hahagaze umukiriya wambaye ipantaro y'umukara aje gushaka serivise.

Isoko ry'imbuto n'imboga risakaye ririnda abantu kwicwa n'izuba ndetse n'imvura aho abantu babasha kuza kwigurira ibyo bakeneye badahenzwe kubera ko biboneka ahantu hamwe.

Akazu kafite amabara y'umutuku aho kandikishijeho amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo, aho hariho ibirango bya Airtel, imbere yaho hariho umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'umusaza ufite imvi ari gusuhuza umukobwa.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo kariho ibirango bya emutiyeni, aho harimo umugore wambaye ishati y'umweru, usutse, uri gutanga serivisi za emutiyeni, ku ruhande hari undi mugabo uri kureba muri ako kazu wambaye umupira w'umuhondo, imbere yabo hari undi mugabo ugenda ufite ishati y'icyatsi kibisi.

Akameza gakoze nka mpande eshatu gafite amabara y'ikigina kariho ururabyo rw'umutuku gateretseho mudasobwa ebyiri kariho utwapa duto twa emutiyeni turi mu mabara y'umuhondo n'ibirango bya emutiyeni twanditseho ijambo saniramu turiho imibare igaragaza uburyo bishyura kuriwo muntu.

Umusore wambaye ipa ntalo y'ubururu ufite agakapu k'umukara aho afite terefone igendanwa igezweho ikoreshwa ku mbuga nkoranyambaga wishyura cyangwa wishyuza ukubereyemo ideni.

Akapa kari mu mabara y'umuhondo aho kandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ndetse handitseho imibare y'uburyo ushobora gukanda ukishyura serivisi wahawe nta kindi kiguzi.

Inzu isize amabara y'umuhondo ndetse n'umukara ikoreramo abakozi ba mtn bashinzwe gutanga serivisi zitandukanye, harimo kugurisha telefone gucuruza ama inite ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu ifite amabara yumweru ndetse numutuku aho ikoreramo ishami rya airtel, iriho ibirango bya airtel, kubakiriya ba airtel bashaka servisi zijyanye nibyo airtel ikora.

Inzu yubakishijwe n'imbaho, aho inkingi zisize ibara ry'umukara, ikoreramo abakozi bashinzwe gutanga serivisi zitandukanye nko kohereza, kubitsa ku ma banki ndetse na serivisi z'irembo.

Akazu gakoreshwa n'umukozi wa mtn gakoreshwa n'umukozi wa mtn Kari mu mabara y'umuhondo, ibirango bya mtn aho hicayemo umukobwa n'umusore, imbere yabo hari umukiriya wambaye ikote ry'umukara .

Icyapa giteye ku gikuta cy'umweru kiri mu mabara y'umuhondo n'ibara ry'umukara n'umutuku aho kerekana uburyo ukoresha wishyura ndetse n'amazina y'ubaruye kuri ubwo buryo.

Umugabo wambaye ijri iri mu mabara y'umuhondo iriho ibirango bya Emutiyeni. Ari munsi y'umutaka w'umuhondo urimo amabara y'umweru ndetse yandikishijeho ibara ry'umukara n'undi uri gusaba serivisi za Emutiyeni.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, uri kuri telefone ntoya y'amatuje aho iruhande rwe hahagaze umukobwa wambaye umupira w'umuhondo uriho ibirango bya mtn ndetse ufite telefoni ebyiri aho ari gutanga serivisi.

Abakozi ba emutiyeni bicaye imbere y'utumeza tw'umuhondo, bambaye imipira y'umuhondo ndetse harimo n'abambaye amajire n'ingofero biri mu birango bya emutiyene. Bari gusobanurira banatanga serivisi za emutiyene.

Akazu gakoreramo umuntu utanga serivise zijyanye n'itumanaho ndetse ucuruzamo n'utundi tuntu duciriritse, aho ari gutanga serivise zijyanye n'ibyo ngibyo, imbere ye hari umugabo wambaye ishati y'ubururu, ndetse n'abadamu babiri, hirya yaho hari n'undi mugabo wambaye ishati y'amaboko magufi.

Umukozi wa MTN wambaye umupira w'umweru uriho ibirango bya MTN ndetse n'amabara y'umuhondo aho ari gutanga serivise k'umukiriya wa MTN waje amugana.

Umugabo wambaye amarinete ndetse n'undi wambaye umupira w'umutuku ndetse n'undi mukobwa wambaye umupira w'umuhondo baparitse kuri sitasiyo bari kwishyura ubukomoka kuri peteroli.

Inzu igeretseifite imiryango irimo ubucuruzi butandukanye, aho imbere yaho hateretse akazu k'umukozi wa emutiyeni wambaye ijiri; kari mu mabara y'umuhondo, ndetse n'ibirango bya emutiyeni.

Umugabo uri imbere y'umutaka wa emutiyeni aho uwo mutaka uri mu mabara y'umuhondo ndetse wandikishijeho amagambo y'umukara, uriho ibirango bya emutiyeni aho ukoreramo umukozi ushinzwe gutanga serivise za emutiyeni.

Inzu iri mu mabara y'umuhondo ikoreramo abakozi ba emutiyen bashinzwe gutanga serivise za emutiyeni, bambaye imipira y'imihondo n'umukara iriho amagambo yandikishije ibara ry'umukara imbere yaho hari umuzungu waje gushaka serivise.

Ihema ry'umutuku ririho ibirango bya eyateri, aho hari abagabo baririmo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'umugore wambaye umutuku n'abandi bambaye amakote atandukanye harimo iry'umukara ndetse n'umupira w'umweru, aho bari gushaka serivisi za eyateri.

Abakozi ba emutiyeni bari mu ihema rya emutiyeni rifite amabara y'umuhondo ndetse ryandikishijeho amagambo y'ubururu aho imbere yabo bafite ibicuruzwa byamamaza emutiyeni.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umweru uriho ikora ry'umuhondo, wambaye amarinete, aho inyuma ye hari ibyapa biri mu ibara ry'umuhondo, biriho ibirango bya emutiyene handikishijeho amagambo y'umukara.

Umukozi wa emutiyeni wambaye amarinete, wambaye umupira w'umuhondo uriho ibirango bya emutiyeni ufite telefone ya matushe aho ari gutanga serivise ku mukiriya waje amugana.

Umugore wambaye ingofero y'umweru ndetse wambaye itaburiya y'umuhondo ufite ikaramu, afite n'akapa kari mu mabara y'umuhondo ndetse kandikishije amabara y'ubururu.

Aba motari babiri bambaye amahirwe ariho ikirango cya Airtel ndetse ari mu mabara y'umutuku aho imbere yaho hahagaze abagabo babiri bari kwishyura amatike y'urugendo, aho bambaye agapfukamunwa k'umuhondo.

Ihahiro aho umumama wambaye amaherena yaje guhaha. Harimo abakobwa babiri bambaye imipira y'umuhondo ndetse bisukishije, aho bari kumwerekera uburyo bagura ibintu.

Abantu babiri bahagaze bafite telefoni aho umwe ari kwishyura undi akoresheje uburyo bwa telefone bwo guhuza, aho umwe yashyizeho imbere y'undi telefone kugira ngo abashe gukurura iyo telefoni abihuza.

Inzu isize amabara y'umweru, aho bacuruza imiti, ijemo abakozi ba Emutiyeni baje kwamamaza uburyo bukoreshwa bagura bakanishyura nta kiguzi cyongewe ho.

Akazu gakoreramo umukozi ushinzwe gutanga serivise zijyanye n'itumanaho za emutiyeni na eyateri imbere yaho hahagaze umukobwa wambaye ijipo ndetse n'umupira w'umutuku.

Inzu ikoreramo abakozi ba MTN, bicaye kuri mashini, bambaye imipira y'umuhondo ndetse hari n'abandi bambaye amashati y'umweru na karuvati. Aho bari guha umukiriya waje gusaba serivisi.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhonda ndetse n'umweru aho cyandikishije amagambo y'umukara hariho ibirango bya MTN kiriho amazina y'umucuruzi ndetse n'uburyo wishyura uwo mucuruzi ntakiguzi.

Umuntu ufite terefone y'amatushe aho ari kwishyura akoreshejwe uburyo buri ku kapa kamuri imbere gafite amabara y'umuhondo kanditseho uburyo bukoreshwa yishyura ntakiguzi.

Umugore usutse wambaye umupira w'umweru uriho uturabyo aho yicaye imbere y'imeza iriho imashini isoma amakayi n'imashini itanga fagitire na mudasobwa aho ategereje ko abakiriya baza akabishyuza.

Akazu ka kampani ya Eyateri kari mu mabara y'umutuku, aho gateretse ku muhanda ucaho abantu n'ibinyabiziga, aho gakoreshwa batanga serivisi zijyanye na Eyateri.

Abakozi ba emutiyeni bicaye mu ihema rikoze nk'umutaka, aho bafite ibicuruzwa bya emutiyeni bitandukanye birimo amaterefoni ndetse n'imipira, imbere yaho hari icyapa cyamamaza ibicuruzwa bya emutiyeni.

Akazu ka emutiyene gakoreramo umukozi wayo aho atanga serivise zitandukanye, zirimo kohereza kwakira ndetse no kubikuza amafaranga abakiriya aho yambaye ishati y'umweru ifite ikora ry'umukara.

Akazu ka MTN gasize amabara y'umuhondo gakoreramo umukozi wa MTN aho atanga serivise zitandukanye nko gutanga amainite ndetse no kubikuza aho imbere ye hari abagabob batatu ndetse n'abagore babiri barikwaka serivise.

Umukozi wa MTN uri mu kazu ka MTN gafite ibirango bya MTN, gafite ibara ry'umuhondo nawe yambaye ijire ya MTN n'agapfukamunwa imbere ye hahagaze umukiliya wambaye ingofero n'agapfukamunwa aje gusaba serivise zitangwa nawe.

Akazu ka Emutiyeni, kari mu ibara ry'umuhondo, aho kandikishijeho amagambo afite ibara ry'umukara, ndetse kariho ibirango bya Emutiyeni, imbere yaho hahagaze umugore wambaye akajire k'umuhondo kariho ibirango bya Emutiyeni, ndetse n'umugabo wambaye umupira wa Emutiyeni, uriho ibirango bya Emutiyeni, wambaye ipantaro.

Umugabo wambaye ipantalo y'ubururu, wambaye inkweto z'umukara aho afite telefone ikoresha mu itumanaho yitaba cyangwa se ahamagara abo akeneye afite agakapu k'umukara, imbere ye hacaye undi mugabo wambaye ipantalo ndetse n'inkweto begereye imeza.

Icyapa cya emutiyeni kiri mu mabara y'umuhondo cyandikishije amagambo y'umukara n'umweru aho kerekana uburyo bwifashishwa bishyura badakaswe ku murongo wa emutiyeni.

Ihahiro ricuruza ibicuruzwa bitandukanye aho umugabo wambaye umupira w'umutuku ari kerekana ko amaze kwishyura ibicuruzwa, naho abandi bagore basutse bategereje kwishyura nabo.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo ndetse wandikishijeho amabara y'umuhondo aho ari mu kazu ka emutiyeni gafite amabara y'umuhondo hariho ibirango bya emutiyeni ndetse amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Telefoni igendanwa, ikoreshwa itagira amatushe, aho umuntu ari gukoresha yishyura amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, hatabayeho gutanga amafaranga mu ntoki.

Umukozi wa MTN wambaye umupira w'umweru ndetse n'umuhondo uri mu birango bya MTN, aho ari umuzungu ndetse imbere yaho hahagaze undi muzungu uri gukora mu gaseke afite.

Akazu gakoreramo umukozi wa MTN aho gasize ibara ry'umuhondo ndetse kariho ibirango bya MTN kandikishejo amagambo ari mu ibara ry'umukara gafunze gateretse ku muhanda.

Umuagabo wicaye mu kazu gakoreramo abakozi ba emutiyeni gafitemo amabara y'umuhondo inyuma mu imbere harimo amabara y'umweru yicaye imbere hari ikayi yandikamo abakiriya.

Iduka ricuruza ibinyobwa bitandukanye harimo imisembuye n'ibidasembuye, aho hari umugore ucururizamo yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero y'umuhondo, imbere hari umudamu usutse, ufite telefone ari kumwishyura.

Ishusho itwereka umugabo wari ugiye kohereza amafaranga, aho muri telefoni ye harimo ishusho y'umukara itwereka uwo yari agiye kohereza amafaranga amazina ye n'amafaranga yari agiye kuyamwohereza n'igiciro bitwara kohereza ayo mafaranga.

Umugabo wambaye ingofero y'umuhondo iriho ibirango bya serivisi za MTN ndetse n'umupira wandikishijeho amagambo y'ubururu, uriho ibirango bya serivisi za MTN,wegeranye n'umugore usukishije, wambaye ishati y'akazi, aho ari kumwereka ibintu kuri terefone.

Umutaka minini uri mu ibara ry'umuhondo ufite ibirango bya MTN aho hakoreramo umukozi wa MTN utanga serivise kuba kiriya aho imbere hahagaze umunyeshuri wamabye iniforume y'ishati y'umweru n'ipantaro ya kacyi n'undi mugabo wambaye ishati uhetse igikapu.

Abakozi ya emutiyeni bari mu nzu irimbishije imitako yamamaza emutiyeni ndetse bambaye imipira y'umuhondo yandikishije amagambo y'umukara, imbere yabo hari umudamu waje gusaba serivisi za emutiyeni.

Iduka ricuruza telefone ndetse n'ibijyanye nazo, aho hari akameza k'ikirahure gateretseho icyapa cyerekana uburyo wakishyura umaze kugura, igicuruzwa icyo aricyo cyose muri iryo duka.

Umukozi wa emutiyeni, wambaye umupira uri mu mabara y'umuhondo, wandikishijeho amagambo y'umukara aho ari gutanga serivisi kuri mudasobwa, ku bakiriya ba emutiyeni baje bagana ishami akoreraho.

Icyapa cya emutiyeni kiri mu mabara y'umuhondo yandikishijeho ibara ry'umukara ndetse hariho n'ibirango bya emutiyeni aho handitseho izina ry'umucuruzi na nimero akoresha bamwoherezaho amafaranga.

Umuhanzi mwiza, aho ari gususurutsa abitabiriye ibikorwa bya emutiyeni, bicaye munsi y'ihema ry'umweru rifitemo ibirango bya emutiyeni ndetse n'amabara y'umuhondo.

Akazu ka mtn kari mu mabara y'umuhondo mu birango bya mtn kanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umukara aho harimo umukozi wa mtn ari gutanga serivise ku mugore wambaye umupira w'umutuku.

Akazu ka emutiyeni, gakoreramo n'umukozi wayo, aho gafite amabara y'umuhondo, ndetse kariho n'itara. Kari mu birango bya emutiyeni, byandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Aho hari umukiriya wambaye ijipo ikase, yaje gusaba serivise.

Akazu gakoreramo umukozi wa Emutiyeni, ushinzwe gutanga serivisi zo kubitsa, kuguriza ndetse n'ibindi, aho gafite amabara y'umuhondo, ibirango bya Emutiyene byandikishijemo ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, aho uwo mukobwa urimo ari gutanga serivisi, umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'umugore usutse.

Abakozi ba emutiyeni bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondonyandikishijeho amagambo y'ubururu yamamaza emutiyeni imbere yabo hari umugore wambaye ikanzu ya oranje wambaye n'amalinete.

Umumotari uri ku ipikipiki wambaye kasike y'umutuku iriho agasanduka, ari kuvugana n'umukozi wa MTN wambaye agapfukamunwa n'ijiri y'umuhondo ya MTN.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo yandikishijeho ibara ry'umukara ndetse hari n'akandi kapa hasi kari mu mabara y'ubururu n'umukara handikishije amagambo y'umweru, aho kerekana uburyo ushobora kwishyura.

Akazu ka emutiyeni, kari mu mabara y'umuhondo ndetse n'ibirango bya emutiyeni, gakoreramo umukozi ushinzwe gutanga serivisi za emutiyeni, aho yambaye umupira w'umukara ndetse ari igitsina gore, ari guha serivise umugabo wambaye ishati y'ubururu.

Abakozi ba mtn bari mu mutaka ufite ibara ry'umuhondo uriho ibirango bya mtn bambaye amajiri ari mu ibara ry'umuhondo ariho ibirango bya mtn, aho bari gutanga serivisi za mtn.

Abagabo babiri bahagaranye bafatanye mu intoki, aho bambaye imipira y'umuhondo yangikishijeho amagambo ari m'ibara ry'umukara, inyuma yabo hari abadamu ndetse na abana babarebera bari munsi y'umutaka ufite ibara ry'umuhondo wandikishijeho amagambo ari mwibara ry'umukara.

Sitasiyo icuruza ibikomoka kuri peterori, aho hariho n'uburyo bukoreshwa bishyura amafaranga bakoresheje bagura ibyo bikomoka kuri peterori, hariho icyapa cy'umuhondo, kiriho ibirango bya MTN, na nimero ushobora gukoresha wishyura.

Umumotari wambaye kasike isa nk'icyatsi kibisi aho yambaye ishati isa nk'icyatsi kibisi yandikishije amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse ariho utubara tw'umuhondo aho ari umukozi wa vuba vuba kampani igurisha ibintu kuri murandasi.

Ishusho iri mu ibara ry'umukara, aho handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, aho hari ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, ndetse n'inkweto bigurishirizwa ku ikoranabuhanga utayuye aho uri.

Ipikipiki iparitse, aho iziritseho agasanduka kari mu mabara y'icyatsi kibisi, inyuma yayo hari umugabo wambaye ishati iri mu mabara y'icyatsi, aho ari umukozi wa Vuba Vuba, kampani ishinzwe kugurisha ibintu ku ikoranabuhanga.

Inzu isize amarange y'umweru aho iyo nzu igeretse gatatu, iyo nzu ikaba ikorerwamo amaduka acuruza ibikoresho by'imyambaro ndetse impande yaho hakaba haparitse imodokari zitari kugenda.

Ishusho iri mu ibara ry'umweru aho yandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umukara aho yerekana utuntu dukoze mu nyama, ndetse n'ibindi bikoze mu bindi binyampeke nka shokora aho ushobora kubigura ku ikoranabuhanga.

Amapikipiki atatu afite ibara ry'umutuku afite ibara ry'umutuku aho aziritseho udusanduka turi mu ibara ry'umweru twanditseho amanimero akoreshwa n'abakiriya batumiza ibicuruzwa bitandukanye.

Icyapa kiriho imodokari ndetse n'ibiribwa nk'imbuto, inyanya, imineke, dodo ndetse n'ibindi aho ushobora kubigura wifashishije ikoranabuhanga bakabikugezaho nta kiguzi.

Inyubako ifite ibara ry'umweru, aho imbere yaho hari ibyapa byamamaza ibyo bahakorera ndetse n'ibyo bagurisha. Iruhande rwaho hari amamoto aparitse n'imodoka ndetse hari n'indabyo.

Wambaye ishati ndende aho iriho agafatamajwi, Inyuma ye harimo ibyapa byamamaza uko ushobora kugura ibicuruzwa bitandukanye, ku mbugankoranyambaga utavuye mu rugo, bikakugeraho aho uri hose.

Urubuga ruri mu ishusho y'umweru rufite amagambo yandikishije ibara ry'umukara, aho ruriho umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ingofero y'umutuku n'amarinete rugurirwaho ibirungo bitandukanye byo guteka utavuye aho uri.

Umukozi wa kampani ya vuba vuba aho yambaye ishati iri mwibara ry'icyatsi kibisi ahetse agasanduku kari mwibara ry'icyatsi kibisi gafite imishumi y'umukara aho ajyaniye ibicuruzwa umukiriya wabiguze kuri murandasi.

Umukobwa wambaye umupira w'icyatsi kibisi uriho amagambo y'umweru yanditseho vuba vuba, aho akorera kampanyi ishinzwe kugurisha ibintu ku mbuga nkoranyambaga, aho ari guhereza ibintu umukiriya yatumije ku mbuga nkoranyambaga.

Umukozi wa kampani yitwa Jumiya wambaye umupira usa nk'icunga rihishije aho azaniye ibicuruzwa by'umukiriya wabitumije ku ikoranabuhanga.

Ipikipiki ifite ibara ry'umutuku, aho iparitse iziritseho agasanduka k'icyatsi kibisi, kandikishijeho amagambo y'umweru, handitseho ijambo vuba vuba.

Ipikipiki y'umutuku aho uyitwaye yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ijiri iri mu icunga rihishije, aho hariho agasanduka Kari mumabara y'umuhondo ndetse n'icunga rihishije.

Abamotari babiri aho bari ku mapikipiki batwaye abagenzi, aho umugenzi w'imbere yambaye umupira yambaye umupira w'umweru naho umugenzi winyuma yambaye akajiri k'umuhondo, aho batwaye abagenzi mu byerekezo bitandukanye.

Inzu isize amabara y'umuhondo n'ubururu aho imbere yaho harimo imodoka nyinshi n'abamotari bari ku mapikipiki ariho udusanduku dusize ibara ry'umuhondo, imbere kuri iyo nzu hari icyapa cyanditseho iposita.

Urubuga rwo ku ikoranabuhanga aho rugurisha rukanacuruza ibikoresho bitandukanye harimo amasabune, harimo ibikoresho byo mu gikoni, harimo n'imitako yo mu nzu, usanga igabanyirizwa rya makumyabiri ku ijana.

Umugabo wambaye kasike y'icyatsi kibisi, wambaye ishati y'ubururu, aho ari guhereza umukobwa wambaye amarinete ndetse wambaye umupira w'umweru ibintu yatije ku mbuga nkoranyambaga.

Ipikipiki y'umutuku iriho agasanduku kari mu mabara y'umutuku, kandikishijeho amagmbo y'umuweru. Imbere yayo hahagaze umumotari ufite kasike y'umutuku, aho azaniye ibicuruzwa umukiriya.

Ipikipiki iparitse ifite amabara y'umutuku, aho iriho agasanduku gasize ibara ry'ubururu, ndetse kanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umuhondo, aho imbere yaho hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara.

Ipikipiki yicayeho umumotari ufite kasike y'umutuku, iriho agasanduka gafite amabara asa n'icunga rihishije, umuhondo. Aho ahasa n'icunga rihishije handikishije amagambo y'umweru, naho ahari umuhondo handikishijwe amagambo y'umutuku.

Ishusho iri mw'ibara ry'umweru aho amagambo yandikishije ibara ry'umukara aho harimo agakarito gafunze neza ndetse hari n'uturabo dutandukanye, bari kwamamaza uburyo ushobora kugura ibicuruzwa utavuye aho uri.

Icyapa cyamamaza ibicuruzwa bitandukanye bigurirwa ku mbuga nkoranyambaga, aho harimo telefoni, ibyuma by'ikoranabuhanga, imyenda yo kwambara, impano, imyambaro ya siporo n'ibikinisho by'abana.

Umumotari wambaye ishati iri mu ibara ry'icyatsi kijimye aho ipikipiki iriho agasanduku kari mumabara y'icyatsi kibisi, handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru aho uwo mumotari yambaye kasike.

Ipikipiki iriho agasanduku kari mu mabara y'umutuku, imbere yayo hari imodoka iri mu mabara y'umweru ndetse n'indi iri mu mabara y'umukara. Imbere yayo hahagaze umugabo wambaye kasike ndetse n'umupira w'umukara.

Ishusho yerekana uburyo wagura cyangwa se ugatumiza ibintu utavuye aho uri murugo, ku mbuga nkoranyambaga, aho ushobora guhamagara cyangwa se ukabandikira muburyo ukoresheje Telefone igendanwa.

Umumotari wicaye ku ipikipiki, wambaye umupira w'umuhondo, urimo amabara y'icunga rihishije, ufite agasanduka kari mu mabara y'icunga rihishije, n'umuhondo.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru aho hariho amadarapo y'ibihugu bitandukanye aho hariho idarapo ry'Ubushinwa, iry'Ubuyapani iry'Ubuhinde ndetse n'irya Tayiwani aho bamamaza uburyo ushobora kugura ibicuruzwa kuva mu bihugu bitandukanye ku Isi hose.

Abakozi abiri ba kampani ya vuba vuba, aho bahagaze kuri moto, bambaye amashati y'icyatsi kibisi yandikishijweho amagambo mu ibara ry'umweru, bari ku ipikipiki ifite agasanduka k'icyatsi kibisi.

Amapikipiki atatu yicayeho abamotari batatu, aho uw'inyuma yambaye kasike y'umukara, uwo hagati yambaye kasike y'icyatsi, uw'imbere yambaye kasike y'icyatsi na we, iriho agasanduka k'umukara kuruhande.

Ibintu byaroroshye ntukiva iwawe ujyiye gushaka ibintu runaka ku kigo cyangwa se ahandi hantu, rero nawe nakugira inama yo kujya ubitumiza wibereye i wawe kuko birafasha cyane, kuri iki kirango biragaragara hariho ikinyabiziga kibitwara amazi, nimero zabo za terefone wabahamagaraho ndetse n'inshuti bifashisha bari guteka.

Ipikipiki iziritseho agasanduka kari mu mabara y'icyatsi kibisi kandidikishijeho amagambo ari mu nyuguti z'umweru, ndetse iruhande rwaho hari umumotari utwara iyo pikiipiki.

Umumotari wambaye akajire, aho gafite ishusho y'icunga rihishije, ndetse na kasike aho ari guhereza agakarito umukiliya wamutumye ibintu, kuri ikoranabuhanga.

Urubuga rw'irembo aho ushobora gushakira serivisi zitandukanye, nko gushaka mituweri, gushaka ibyangombwa by'uko utafunzwe, n'ibindi byangombwa ushobora kuboneraho.

Kampani ikorera ku mbuga nkoranyambaga igurisha ibikoresho bitandekanye, aho harimo amashakoshi ndetse yerekana n'ibiciro byo kugira ngo icyo gicuruzwa watumije kikugereho.

Ipikipiki iriho agasanduku aho umumotari wambaye kasike arimo arashyiramo agakarito k'ibyo bamutumye kugira ngo abijyane abishikirize uwabiguze.

Icyapa cyerekana umugore afite couter ndetse na telefoni ifite ibara ry'umweru ndetse iruhande hari anvelope yerekana uburyo wahaha ibintu ku mbuga nkoranyambaga.

Inzu isize ibara ry'umweru, ifite amadirishya manini, aho impande yayo haparitse imodoka ifite ibara ry'ubururu, iyo nzu ikaba igereretse inshuro eshatu, aho ikoreramo ibikorwa bitandukanye nko gucuruza imyenda.

Abakobwa babiri bahagaze imbere y'ishusho ry'umweru aho bose bafashe agakarito kanditseho mirongo itanu ku ijana, aho umwe uri ibumoso yambaye isaha yambaye n'umupira usa icyatsi kijimye n'umweru naho uw'iburyo akaba yambaye umupira wa oranje.

Umumotari uri ku ipikipiki wambaye akajiri kari mu icunga rihishije, wambaye kasike t'umutuku wambaye ipantaro y'umukara, ipikipiki iriho agasanduka,

Ipikipiki itwawe n'umumotari wambaye umupira w'umukara, iriho agasanduka kandikishijwe amagambo y'umweru, yerekana uburyo wagura ibikoresho by'isuku.

ishusho iri mumabara y'umweru aho hariho amafoto atandukanye n'ibicuruzwa bitandukanye harimo udushakoshi ndetse n'igabanyirizwa kuri buri kintu bagiye bashyiraho kugirango ukigure bitaguhenze

Ishusho yerekana uburyo ushobora gutumiza ibintu ukoresheje telefone igezweho kumbuga nkoranyambaga zitandukanye utavuye aho uri harimo nk'imyenda ndetse n'imitako bitandukanye.

Ifoto yamamaza yahurute ikorerwa mu Rwanda, aho iriho umugabo ndetse n'umwana, aho bari gutegura uburyo bagiye gufata iyo yahurute. Kugira ngo ifashe umwana.

Umukobwa mwiza ufite amaherena wambaye umupira w'icyatsi kibisi, aho wanditseho amagobo ari mu ibara ry'umweru; uri kureba mu gasanduku kari ku ipikipiki ngo atange ibicuruzwa batumwe.

Ipikipiki y'umutuku, iparitse, aho iriho agasanduku kari mu mabara y'umutuku, handikishije amabara y'umweru, ndetse hajuru yaho hateretse ishashi irimo ibintu. Byazaniwe umukiriya.

Ishusho yamamaza iri mumamabara y'umweru aho iriho ibicuruzwa bitandukanye: nk'inkweto, telephone, imipira, imyenda, amakanzu nibindi aho bimwe bagiye bashyira kwigabangirizwa ukaba wabigura ku imbuga nkoranyambaga bikakugeraho utavuye aho uri.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru inyuguti zandikishijwe ibara ry'umukara aho kerekana uburyo ushobora kugura ibintu ku mbuga nkoranyambaga bikakugeraho utavuye aho uri.

Iri mu ibara risa n'icunga rihishije, aho yandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umweru, aho yerekana uburyo ushobora kugura ibicuruzwa bitandukanye by'imyenda n'ibindi ukishyura utavuye aho uri.

Ipikipiki y'umukara iriho agasanduku k'umukara kari mu birango by'icyatsi kibisi kandikishijeho amagambo y'umweru hicayeho umumotari wambaye umupira w'icyatsi ucigatiye kasike y'icyatsi.

Urubuga ruri mu ishusho y'umweru aho rwandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'icunga rihishije, aho ruriho abakobwa batandukanye berekana ibicuruzwa bigurirwa kuri urwo rubuga.

Ipikipiki iri mu mabara y'umukara ibitseho agasanduka k'icyatsi kibisi aho kari gufungurwa n'umuntu wambaye kasike y'icyatsi kibisi ndetse wambaye umupira w'amaboko maremare.

Ipikipiki iparitse aho iriho agasanduka kari mu mabara ry'icyatsi, imbere yaho hahagaze umugabo uri gushyiramo amvirope y'ibintu baba batumye ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo ababishyikirize ababimutumye.

Ishusho iri mu mabara y'umweru aho iriho akantu kameze nk'isaaha kanditseho amagambo avuga ko ushobora gutumiza ikintu mu gihe kikakugeraho utavuye aho uri.

Icyapa cyamamaza ibicuruzwa, nka Firigo ndetse n'ibindi bicuruzwa bikomoka ku ma kampani yavuzwe hejuru nka Samsung ,Nikon ,LG, Puma na Police. Aho babibafiye ku giciro kiza.

Imodoka z'umweru zikorwa n'uruganda rw'abayapani aho zifite igisanduka kinini inyuma kibasha gutwara imizigo y'uruganda rwitwa twiga.

Imodoka isize amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu aho handitseho ijambo iposita ryandikishije ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu aho iyo modoka ikoreshwa bakwirwkwiza ibyatumijwe ku iposita.

Abamotari barenze batanu bambaye amakote y'umutuku, bambaye kasike z'umutuku, zandikishijeho amabara y'umweru, aho buri kote ryandikishijeho amabara y'umweru.

Inzu isize irange ry'icyatsi kibisi ndetse ifite n'imiryango isize icyatsi kibisi, aho imanitseho ibyapa byerekana ibintu bacuruza muri iyo nzu, aho harimo imbuto, n'imboga ndetse n'ibindi.

Icyapa cyerekana, kikanasobanura uburyo wagura ibicuruzwa, wibereye mu rugo, ukoresheje ikoranabuhanga, utavuye aho uri, bikakugeraho nta kindi kiguzi. Kereze uri hanze ya Kigali.

Itangazo ryanditse ku cyapa kiriho amabara y'umutuku kerekana abayobozi babagore mu nzego zitandukanye mu guhasha kovide. Aho bahamagarira abantu kwitabira inama ku ikoranabuhanga.

Umukozi wa vubavuba wambaye ishati y'icyatsi kibisi yandikishijeho amagambo y'umweru aho ari guseka afite amverope arimo imboga n'agacupa k'amazi aho yegereye ipikipiki iriho agasanduka.

Urupapuro rw'umweru rwamamaza iduka rikorere ku mbuga nkoranyambaga aho ushobora kugura igicuruzwa icyo ari cyo cyose utavuye aho uri mu rugo bakakikuzanira.

Umusore uhetse agasanduka kari mumabara y'icyatsi, amagambo y'umweru, aho afite igare ry'umukara agiye gutwara agemura ibicuruzwa.

Abamotari bari ku mapikipiki aho buri pikipiki iriho agasanduka gatwarwamo ibicuruzwa bari baparitse ku muhanda bagiye kujyana ibicuruzwa by'abakiriya baba baguze ku mbugankoranyambaga.

Icyapa kiri ku modoka y'umutuku aho icyo cyapa gifite amabara y'ubururu n'umweru, aho handikishijweho umweru, umutuku ndetse n'ubururu hariho ibirango bya fesibuke, watsapu na imeli.

Ifoto iriho umuzungu wambaye ikote ryiza, yambaye n'isaha, aho yerekana uburyo ushobora kwiyandikisha kugira ngo wige, n'amafaranga bitwara wiyandikisha, n'ayo kwiga.

Abamotari batanu bari ku mapikipiki, afite amabara y'umutuku, icyatsi, ariho udusanduka bambaye amajire ya orange, aho bagiye gutwara ibintu mu two dusanduka.

Ishusho ifite amabara y'umweru, aho iriho ishusho y'umugabo yatangaye, yerekana uburyo ushobora kugura jigabayiti mirongo itandatu ku bihumbi bitanu, ukazikoresha mu gihe cy'iminsi mirongo itatu, aho uhabwa ebyiri ku munsi.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'amaboko maremare yazinze, wambaye n'ipantaro y'umukara ifite umukandara w'umukara, aho yambaye isaha yo ku kaboko k'i bumoso, I ruhande rwe hari umudamu uhagaze, wambaye ikanzu.

Ubwogero bukoze neza bwa kijyambere aho harimo amakaro azengurutse inkuta hejuru no hasi, hirya yaho hariho ubwiherero bwiza bwa kizungu aho wituma wicaye.

Umugabo wambaye amarinete ndetse n'ipantaro y'itise n'ikote, aho ari kwamamaza inzu zikodeshwa, aho inzu zimuririye inyuma zikodeshwa, zisize irangi ry'umweru ndetse n'inzugi zisize ibara ry'umukara.

Ubwogero bugezweho bwa kijyambere aho burimo amakaro meza ndetse bufiteho n'idirishya aho kuruhande rwaho hari ubwiherero bwa kizungu aho umuntu yituma y'icaye.

Icyumba kirimo amakaro, kirimo uburiri bwiza bushashe neza, burimo umusego w'umweru ndetse n'amashuka asa ibara ry'umutuku ndetse n'ibara risa n'ivu, aho amadirishya afunguye, ariho amarido.

Ishusho yerekana inzu ikodeshwa, kimironko, aho iyo inzu igizwe n'ibyumba bitatu ndetse n'ubwogera bubiri, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu buri kwezi, aho iyo nzu ifitemo amabara y'umweru ndetse hanze isize ibara ry'ivu, naho ku bikunda hariho ibara ry'umweru.

Ishusho iri hano yerekana inzu ifite igisenge cyiza, ifite amarangi y'umweru ndetse n'amarangi asa n'ivu, aho ifite amadirishya arimo ibirahure bitabonerana, aho inzu iherereye i Kanombe ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu.

Ishusho yerekana inzu ifunguye ikingishije urugi rusa n'ubururu bwerurutse, aho bari kwamamaza uburyo wayikodesha ibyumba ifite n'ubwiherero ifite aho ari bubiri ndetse nibyumba ari bibiri.

Inzu igereretse gatatu aho isize amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, bifite inzugi n'amadirishya bisize ibara ry'umukara, aho ibirahuri biri mu nzugi n'amadirishya bitabonerana, ikaba ifite igipangu gifite ibara risa n'ivu ryegereye umuhanda.

Inzu iri kwerekanwa muri iyi shusho aho iyo nzu igeretse yubakishijwe amatafari ahiye ifite ibirahure bitabonerana aho ikodesha ibi aho ikodeshwa kibagabaga ku bihumbi 600 ku kwezi.

Inzu ifite ibara ry'umweru, aho irimo imitako itandukanye, icuruzwa, ikoreshwa mu gutaka mu rugo ndetse no mu biro, cyangwa se ahandi hantu hakorera inama.

Iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye, aho bafitemo ibinyobwa biri mu dutajeri bisembuye n'ibidasembuye, aho bafite amazi ndetse n'ama ji biri mu dukopo ndetse n'amavide atandukanye.

Ni ishusho itwereka ibikoresho bitandukanye bakoresha bataka murugo harimo nk'indabyo, amavaze ndetse n'ibindi byinshi ushobora gukoresha uri kugira iwawe ahantu hasa neza.

Inzu ifitemo amakaro y'umweru isize amarangi y'umweru, ikoreramo ubucuruzi butandukanye bucuruza ibikoresho bitandukanye, harimo iby'ikoranabuhanga ndetse n'ibyo kurya.

Inzu aho ku muryango hari icyapa kiri mu mubara y'umweru cyandikishijeho amabara y'umutuku, aho handitseho iduka rya Simba, aho riri kwinjiramo abantu batandukanye bagiye guhaha ibicuruzwa bitandukanye bibonekayo.

Isoko riri munzu isize amabara y'umuhondo, aho ifite igisenge kiri mumabara y'umweru, aho bacuruza ibicuruzwa bitandukanye birimo; ibinyobwa ndetse n'ibindi bikoreshwa ibindi bintu.

Inyubako igeretse aho irimo amakaro y'umweru ndetse ikoreramo n'amaduka atandukanye acuruza imyambaro ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga, aho umukiriya ashobora kuza akigurira nta kibazo.

Abagore bane bicaye ku ntebe aho batatu muri bo bambaye ibitenge ndetse umwe yambaye ijipo yumukara afite na terefone mu ntoki yambaye n'agapira k'umweru, aho basetse bahuje ibiganiro.

Inzu igeretse isize amabara asa n'icunga rihishije, aho handitseho ikigonderabuzima cya Remera. Aho iyo nzu ikoreramo abantu bashinzwe kuvura abantu mu buryo bwa rusange.

Abadamu bane bicaye aho umwe uvuye ku mugore wambaye umubira w'icyatsi kibisi uriho idarapo ry'u Rwanda, akikiye umwana wambaye ikanzu iri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Ishusho utwereka abayoboke b'idini ya Islam, aho bambaye ingofero ndetse abandi bitandiye, bafashe ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli, aho bari kwerekana ko bishyuye mituweli.

Iduka rinini ririmo amakaro ndetse harimo n'amatara menshi, aho harimo ama etajeri arimo ibicuruzwa bitandukanye, arimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye umuntu abasha kwigurira.

Ihahiro rinini ririmo amakaro ari hasi, aho harimo ama etajeri arimo ibiryo bitandukanye, harimo ibyo guteka ndetse n'ibyo kurya bitagombye ko ubiteka.

Iduka rinini ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, aho bacuruza amata y'ifu ari mu gikombe cy'umuhondo ndetse n'ibara rihishije, aho biteretse muri etageri ndetse muri etageri harimo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye nk'amabiswi, amavuta ndetse n'ibindi.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, aho harimo ibinyobwa bitandukanye, bisembuye n'ibidasembuye, aho harimo ama etajeri afite ibara ry'umukara, arimo ibyo bicuruzwa, birimo ji, fanta, ndetse n'ibindi.

Iduka rinini ruri munzu, aho ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo Amakaye, amakaramu, ndetse n'ibindi byo kurya bitekwa n'ibidatekwa, aho harimo umugabo ndetse wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro ya kacye, hirya hari umugabo wundi, wambaye ingofero n'(umupira w....)

Isize irange ry'umweru ndetse ririmo amakaro ndetse ririmo ama etajeri apanzemo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibinyobwa ndetse n'ibintu bitekwa ndetse n'ibidatekwa bishobora kuribwa bitatetswe

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, aho harimo imboga ndetse n'imbuto umuntu ashobora gukoresha akora imiti itandukanye ndetse anabirya akagira ubuzima bwiza.